Igishushanyo dusanga mu bitabo byifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato. Hakaba hariho kandi abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano zabo, bakaba bari kuva ku mashuri.

Ku cyumba cy'ishuri cyigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza hashushanyijeho ibikoresho bitandukanye byo mu rugo biri mu rurimi rw'icyongereza urugero twavugamo nk'igisokozo, umweyo, ndetse n'ibindi.

Imbere y'inzu zubatswe mu buryo bugezweho hari imbuga nini cyane irimo ibyatsi nanone kandi hari igikoresho gikozwe mu byuma ndetse gifite icupa hejuru yacyo, icyo gikoresho kikaba kifashishwa mu gusukura intoki.

Udukoresho dufite amabara atandukanye arimo: umutuku, umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'andi, utu dukoresho tukaba ari ingenzi cyane mu kwigisha abana bakiri bato, tukaba tubafasha gukangura ubwenge ndetse no kugira ngo ubwonko bwabo butere imbere mu bijyanye n'imitekerereze.

Ku rukuta rw'icyumba cy'ishuri hashushanyijeho ibishushanyo by'inyamaswa zitandukanye zirimo amatungo yo mu rugo, urugero twavugamo nk'intama, ibi bikaba bifasha abana kugira ngo bamenye ururimi cyane cyane urw'Ikinyarwanda.

Igishushanyo cyerekana abana bato b'abanyeshuri bari guhabwa uburezi, aba bakaba bari mu cyumba kimeze neza bigiramo amasomo yabo ndetse kikaba gifite n'ibishushanyo bibafasha kugira ngo bige neza.

Udukinisho dukoze mu ishusho y'urunyanya duteretse ku kintu kimeze nk'isahani, ibi bikaba byifashishwa mu rwego rwo kugira ngo abana biga mu mashuri y'inshuke bakangure ubwenge bwabo bityo bitume bagira imyitwarire myiza ndetse banagire ubwenge.

Udukoresho dukoze mu ishusho imwe dufite amabara atandukanye arimo: umukara, umweru, umutuku, umuhondo w'icunga ndetse n'icyatsi kibisi, utu dukoresho tukaba twifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato.

Udukinisho turimo udukoze mu ishusho y'inguge ndetse n'utundi dukoze mu ishusho y'ipusi dufite amabara atandukanye, utu dukinisho tukaba twifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato by'umwihariko abiga mu mashuri y'inshuke.

Udukoresho turimo uduteye nk'ibinyabiziga ndetse n'utundi duteye nk'inyamaswa dufite amabara atandukanye arimo umuhondo, ubururu, icyatsi n'umukara twifashishwa cyane mu burezi bw'abana bakiri batoya cyane cyane mashuri y'inshuke.

Udukoresho dufite amabara meza arimo icyatsi kibisi, umutuku ndetse n'ubururu, utu dukoresho tukaba dukoze mu ishusho y'insakazamajwi tukaba twifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri akiri matoya.

Imbere y'inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite inzugi z'ubururu, hateraniye itsinda ry'abana bafite ibitabo ndetse kandi bari kumwe n'abarimu babo, aba bana bakaba biga mu mashuri mato.

Icyumba k'ishuri gifite ibara ry'umuhondo weruye hashushanyijeho ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibikomoka ku matungo, ibyo bihingwa birimo ibishyimbo ndetse n'imyumbati ndetse ibyo bikomoka ku matungo hakaba harimo inyama z'inkoko.

Udukoresho tw'udukinisho turimo udufite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'utundi dufite umuhondo w'icunga twifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato, ibi bikaba bituma bagira ubwenge ndetse bikabakangurira ubwonko.

Igikinisho gifite amabara atandukanye arimo umukara, umweru ndetse n'icyatsi kibisi gifite ishusho nk'iy'ipusi, iki kikaba kiri muri bimwe mu byifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato, cyane cyane mu mashuri y'inshuke.

Umwitozo dusanga mu bitabo by'Ikinyarwanda, byifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato. Uyu m mwitozo ukaba usaba abana gusiga amabara mu bishushanyo bihari by'inyamaswa zirimo inka, ipusi ndetse n'ifi.

Igikoresho kifashishwa mu gusukura intoki kizwi ku izina rya kandagira ukararabe, gikozwe mu byuma ndetse gifite icupa hejuru. Muri iryo cupa, hakaba harimo amazi aho umuntu akandagira, amazi agashunguka maze akayifashisha akaba intoki.

Umukebe ukoze mu cyuma ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ukaba urimo udukoresho twifashishwa mu isomo ry'imibare urugero twavugamo nk'utwifashishwa mu guca uruziga ndetse no guca imirongo.

Udukoresho turimo utwifashishwa mu gushushanya ndetse no guteranya ni tumwe mu dukoreshwa mu burezi bw'abana bakiri bato, ibi bikaba bibafasha kugira ngo ubwonko bwabo bukanguke ndetse bagire n'ubwenge.

Udukoresho dutandukanye, turimo utwo gukina, imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibindi byashyizwe hamwe byifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato. Hari kandi n'ibiti bitoshye bitanga agacucu ko kugamamo izuba.

Umukebe ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, urimo udukoresho dutandukanye twifashishwa mu burezi cyane cyane mu kwiga imibare, hakaba harimo udukoresho turimo utwifashishwa mu guca uruziga, imirongo ndetse no gupima.

Ibyumba by'amashuri byubatswe mu buryo bugezweho, hifashishijwe amatafari ahiye ndetse bikaba bisakaje amabati y'ubururu na none kandi ibyo byumba bifite ibigega bifata amazi y'imvura. Hari kandi n'ibihingwa birimo insina zira ibitoki.

Udukoresho dukoze mu bintu bitandukanye turimo nk'imiringa ndetse n'imipira yo gukina, utu dukoresho tukaba twifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato, ibi bikaba bituma ubwonko bwabo bukanguka maze bakagira ubwenge.

Udukinisho dutandukanye, turimo utwanditseho inyuguti, imibare mu mabara atandukanye arimo umweru ndetse n'umukara. Utu tukaba twifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri mato cyane cyane ay'inshuke.

Icyumba k'ishuri gifite ikibaho cy'umukara harimo umwarimu akaba ari gukosora impapuro z'abanyeshuri, imbere ye kandi hari ibikoresho bitandukanye birimo amakaye yifashishwa mu gutegura amasomo ndetse no kuyageza ku banyeshuri.

Mu cyumba kiza cyane gifite amabara atandukanye arimo icyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'umweru, harimo udukoresho ndetse n'udukinisho twifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato. Ibi bikaba bibafasha cyane mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko bwabo.

Udukinisho dufite amabara atandukanye dukoze mu ishusho y'umuntu utwo dukinisho tukaba dutonze uruziga ndetse hagati yatwo hakaba hari igikinisho cy'umubumbe w'isi ushushanyijeho imigabane itandukanye, ibyo bikaba bifasha kugira ngo abana bakangure ubwonko bwabo.

Hifashishwa ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho bituma abana bagira ubwenge ibi bitabo bikaba bigomba kuba bikungahaye ku bwenge bukenewe ku isoko ry'umurimo ibi bikaba bifasha kugira ngo uburezi butange abanyeshuri bafite ubwenge.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ikigina ndetse n'ubururu bari kwinjira mu kigo cyubakishije amatafari ndetse gifite amabati asa n'aho ashaje, hari kandi n'abagabo ndetse n'abagore bari kwinjira muri icyo kigo.

Mu cyumba cyiza cyane k'ishuri gifite amabara atandukanye harimo ay'umuhondo w'icunga ndetse n'umweru harimo udutebe twiza ndetse n'amezaza iki cyumba kikaba kigirwamo n'abana bakiri bato bikaba bibafasha kugira ngo bagire ubwenge.

Mu cyumba kiza cyane cyabugenewe gifite ibara ry'umuhondo weruye harimo udukoresho twinshi turimo udufite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi kibisi, utu dukoresho tukaba twifashishwa mu burezi bw'abana bakiri bato cyane cyane mu mashuri y'inshuke.

Igitabo gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo weruye kikaba gishushanyijeho abana ibyo bitabo bikaba byifashishwa mu mashuri abanza, bikaba bifasha abana kugira ngo bakangure ubwonko ndetse bagire n'ubwenge.

Udukoresho twifashishwa mu kwiga imibare, urugero twavugamo uduca imirongo, udushushanya ndetse n'udukora inziga. Harimo kandi n'akandi kifashishwa, mu kwandika inyuguti zitandukanye, kuva ku ya mbere, kugera ku za nyuma.

Udukoresho turimo amakaramu yifashishwa mu kwandika imikasi, amarate yifashishwa mu guca imirongo amakayi ndetse n'ibitabo. Utu twose tukaba twifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri mato by'umwihariko ay'inshuke.

Agashushanyo gakoze mu ishusho y'umwana ufite igitabo mu ntoki ndetse akaba hejuru ye hariho inyuguti zitandukanye kuva kuri a kugera kuri z, ibi bikaba byifashishwa mu rwego rwo kugira ngo abana biga mu mashuri mato bagire ubwenge.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri, yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara meza ndetse yubatswe igerekeranyije. Iyi nyubako ikaba yifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme. Imbere y'iyi nyubako kandi hakaba hari indabo zikuze, zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ndetse isakaye neza, ikaba ifite ibintu biyanditseho ku marembo yayo birimo nk'imibare ndetse n'inyuguti, iyi nyubako ikaba itangirwamo uburezi bw'abana bakiri bato.

Ahantu hateguwe hahuriye urubyiruko rwiga mu mashuri yisumbuye urwo rubyiruko rukaba rwambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu bakaba kandi bakurikiye umugabo mukuru uri imbere yabo uri kubagezaho ikiganiro.

Icyumba cyo ku bigo by'amashuri, byaba iby'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kikaba kibamo ibitabo. Ibi bitabo bikaba byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, iyo bari gusubira mu masomo cyangwa se igihe abarimu bari gutegura amasomo.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bwiza ndetse gisize amarangi afite ibara ry'umuhondo weruye, icyo kigo kikaba gifite ikigega kifashishwa mu gufata amazi y'imvura maze akazakoreshwa mu gihe kizaza.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, aba ha bakaba harimo abafite amakayi ndetse n'amakaramu bimwe mu bikoresho bifashisha iyo bari kwiga.

Ahantu mu kigo cy'amashuri hari kubera igikorwa cyo kwibuka abazize Jenoside. Aha kandi hari abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe bafashe igitambaro kinini cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani.

Mu cyumba cyabugenewe k'inzu yubakishije amatafari ahiye harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukoresha ubushakashatsi, iki cyumba kikaba ari kimwe mu bigize amashuri yisumbuye abanyeshuri bakaba ari bo bagikoresha bakora ubushakashatsi ku bijyanye n'ibyo bize.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri ba kaminuza bari mu cyumba gifatirwamo amasomo ndetse kikanaberamo ibizamini, abenshi muri aba banyeshuri bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi ku izina rya mudasobwa.

Itsinda rigizwe n'abantu biganjemo urubyiruko bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bari mu nyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ndetse bakaba bari kwerekana impamyabushobozi bahawe nyuma yo guhabwa amasomo atandukanye.

Abantu benshi barimo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro y'amakanzu, iyi myambaro ikaba ikoreshwa iyo abantu bagiye guhabwa impamyabushobozi zabo, aba na bo bakaba bazihawe ndetse bakaba bambaye n'ingofero zifashishwa muri uwo muhango.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara y'umweru ndetse igerekeranyije. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abanyeshuri iyo bari gufata amasomo yabo cyangwa se bari kuyasubiramo.

Mu cyumba cya kaminuza, cyubatswe mu buryo bugezweho ndetse gishashemo amakaro, harimo intebe zifite amabara y'ubururu. Izi ntebe zikaba zicarwamo n'abanyeshuri mu gihe bari gukurikira amasomo yabo.

Inyubako ya kaminuza yubatswe mu buryo bugezweho bugerekeranyije ikaba yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari gusubiramo amasomo yabo, iyo nyubako kandi ikaba ifite ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'ibyatsi bitoshye.

Kimwe mu bishushanyo byakozwe n'abanyeshuri biga ubugeni mu makaminuza, iki gishushanyo kikaba kiriho umubyeyi w'umugore ateruye akana gato, ibi bishushanyo kandi bikaba bijyanwa ku masoko bikagurishwa ndetse bikaba binafasha mu gusigasira umuco.

Mu cyumba cy'ishuri rya kaminuza cyuyubatswe mu buryo bugezweho ndetse kirimo ibikoresho byiza birimo ndetse n'intebe harimo abanyeshuri ndetse n'umwarimu wabo. Aba bombi bakaba bambaye udupfukamunwa, tubarinda kuba bakwanduzanya indwara z'ubuhumekero.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse isa, aba bakaba bicaye mu cyumba k'ishuri ndetse bakaba bakurikiranye ibyo umuntu uri imbere yabo ari kubabwira.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi harimo umugore wambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umweru akaba ari kumwe n'abandi, uyu akaba ari gukoresha icyuma cyifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara zitandukanye.

Ibikoresho bikoze mu ibumba byakozwe n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubugeni, ibi bikoresho bikaba bijyanwa ku masoko bikabyara amafaranga bityo bigafasha abo banyeshuri ndetse n'abandi babikora kugira ngo babone amafaranga.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi bari gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, aba kandi bakaba bayobowe n'umwarimu wabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba bari mu cyumba cyabugenewe.

Ahantu mu kigo cya kaminuza gifite inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isize n'amabara y'umweru harimo abasore bafite igitambaro kiriho ubutumwa bushishikariza abantu gutanga amaraso.

Imbaga nyamwinshi y'abantu barimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru bateraniye mu nyubako ya kaminuza iberamo ibintu bitandukanye, aba bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse bakaba bakurikiye ibiganiro bari kugezwaho.

Itsinda rigari ririmo abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama kiza cyane gifite ibara ry'umweru. Bakaba bakurikiranye ibyo umugabo uri imbere yabo ari kubagezaho yifashishije ikoranabuhanga. Na bo kandi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo mudasobwa.

Imbere y'inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda hari abantu benshi bambaye imyambaro itandukanye, aba bakaba biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa bakaba bamaze gufata amasomo yabo bakaba bari gutaha.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa bari mu cyumba cyiza cyane gitangirwamo amasomo, aba bakaba bicaye mu ntebe nziza zifite amabara y'ubururu ndetse bakaba bari kwandika ibyo umwarimu uri imbere yabo ari kubabwira.